Ni byiza kujyana abana bacu ku bitaro ndetse n'abaganga babihuguriwe kugira ngo dufashwe kumenya uko bahagaze kandi dufite n'amakuru ahagije y'uko twahangana n'indwara zishobora kubugoaariza mu gihe icyo ari cyo cyose batamerewe neza.

Iyo tuvomye amazi meza yizewe ko afite isuku ni byiza kuko amazi meza afasha umubiri wacu guhangana n'indwara z'ibibazo zitandukanye bishobora kuwugariza, gukoresha amazi meza ni ngombwa ku buzima bwacu bwa buri munsi kuko amazi ari ubuzima.

Imiryango cyangwa se amashami atandukanye y'umuryango w'abibumbye afasha mu mibereho ya muntu mu bice bimwe na bimwe byo kw’isi tuvuge urugero nk'umuryango ushinzwe kwita ku buzima bw'abana ndetse no gufasha impunzi imiryango yose ifasha kugira ubuzima bwiza.

Mu rwego rwo gukomeza kwita ku buzima bwacu ni ngombwa kugira uruhare, ubukangurambaga bugamije kwita ku buzima bwacu uko imyaka igenda ishira indi igataha, ni ngombwa rero kujya dufata iya mbere mu kwisuzumisha tukamenya uko duhagaze.

Ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima bwacu ni ngombwa cyane cyane ku bana, kuko abana iyo babonye ubwo bukangurambaga bakura neza ndetse bakabasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi agomba gahugukira gusuzuma umwana we no kumenya uko ahagaze, cyane cyane yitabira kumukingiza mu gihe cyose, kuko iyo ahawe inkingo zimufasha gukomeza gukora neza mu gihagararo no mu bwenge.

Kwitabira ubukangurambaga bushingiye ku buzima ni ngombwa cyane kuko kubwitabira bifasha kumenya uko wahangana n'indwara zitandukanye, zishobora kugoreza umubiri w'umuntu, ndetse ukabasha no kubahabwa inama yerekeye uko wateganya, uko wirinda izo ndwara.

Ni byiza gufatanya n'abantu bakora mu buzima kuko iyo ukoranye n'ababihuguriwe bigufasha kumenya uko wahangana n'indwara zitandukanye, zishobora kuba zakwataka umubiri wawe, ni ngombwa rero kujya dufata iya mbere mu gukorana n'abahugukiwe ubuganga.

Ni ngombwa cyane kujya twita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, cyane cyane tubona inama zitandukanye ziturutse ku baganga ndetse tukabasha no kuba twaganira n'inshuti zacu kugira ngo tudaheranwa n'agahinda, kugira dusohoke mu bibazo tuba dufite.

Ni byiza kwita ku buzima bwo mu mutwe, cyane cyane twitabira amahugurwa atandukanye, ategurwa ku kwita ku buzima bwo mu mutwe, kuko iyo tuyitabiriye tubasha kubona uko dufashwa, ndetse tukagirwa inama mu gihe dufite ibibazo bitandukanye, bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Ivuriro ryitwa karayesi rifasha abantu bafite ibibazo by'ihungabana ndetse n'ibindi bibazo byerekeye ubuzima bwo mu mutwe kuba bafashwa kubisohokamo ndetse bagahabwa inama z'uko bakwitwara mu gihe bahuye n'ikibazo runaka.

Ni byiza kwisuzumisha amenyo ndetse tugakora uko dushoboye tukagana ibitaro tukisuzumisha amenyo tukamenya uko duhagaze, iyo tugiye kwa muganga tugafashwa kumenya ibijyanye n'amenyo yacu bituma tugira ubuzima bwiza.

Amenyo yacu dukwiye kuyitaho cyane cyane tumenye yuko nta kibazo afite kandi n'iyo twaba tumenya ko hari ikibazo afite, tukaba twabasha kugana kwa muganga tugafashwa gukira amenyo yacu.

Amenyo nk'igice cy'umubiri gishobora gutuma tugira ibibazo bitandukanye, ni ngombwa kukitaho cyane cyane duhugukira kwisuzumisha amenyo yacu, ndetse no kumenya ibibazo ibyo aribyo byose yaba afite kuko iyo twisuzumishije amenyo ni ngombwa cyane ku buzima bwacu.

Kwita ku bageze mu zabukuru ni byiza kuko iyo ubitaho bituma bagira ubuzima bwiza ndetse ukabasha no kuba wabagira inama zerekeye ubuzima, ni ngombwa yuko tubafasha mu gihe bafite ibibazo bitandukanye, kuko iyo ufashije abageze mu zabukuru bagira umunezero.

Mu gihe tubonye abafite ibibazo bituruka ku busaza ni ngombwa kubitaho tubagaburira ibiryo bifite intungamubiri zihagije kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Ni byiza gufata amafunguro akungahaye ku ntungamubiri cyane cyane gufata imbuto kuko zifasha mu mikurire ndetse n'imibereho y'amagufwa, ndetse akabasha no kuba yakomera. Iyo dufashe imbuto zituma twirinda zimwe mu ndwara zitandukanye zishobora kutwugariza.

Ni byiza kwita ku bageze mu zabukuru, cyane cyane tubagerira ibyo kurya bihagije ndetse no kubafasha gukomeza kubungabunga ubuzima bwabo, ibyo byose kandi tukabikora tubafasha muri byose.

Kwitabira ubukangurambaga bujyanye no kwirinda indwara ya diyabete, ni byiza cyane kuko ugenda urushaho kumenya uko wakwitwara mu gihe ufite ibibazo bya diyabete, ndetse bikaba byatuma unirinda indwara zitandukanye.

Ni byiza kugana ibitaro bitwegereye ndetse bifite ahantu hatekanye ndetse hateye imbere; kuko tubasha kuvurwa indwara zacu zose nkuko biteganyijwe ndetse tukabasha no kuba twabona izindi nama zerekeye ubuzima bwacu.

Ni byiza gukorana n'ibigo by'ubushakashatsi kuko gukorana nabyo bituma umenya bimwe mu bintu bigezweho ndetse ukabasha no kuba wakwihugura ku bijyanye nuko wahangana n'ibibazo runaka ushaka gukoraho ubushakashatsi bwawe.

Ni byiza kugana ibigo nderabuzima bitwegereye bidufasha kunoza uko ubuzima bwacu bukwiye kugenda, ndetse tukarushaho kubigana mu gihe cyose dufite ibibazo bitandukanye.

Kwa muganga nk'ahantu hafashirizwa abarwayi kumenya uko ubuzima bwabo bumeze ndetse bakabasha no kuba bavurwa indwara zitandukanye, ni ngombwa kugana ibitaro bitwegereye byubatse neza bitanga ubuvuzi buhamye kandi buteye imbere.

Kwa muganga nk'ahantu hadufasha kumenya uko ubuzima bwacu bumeze, ni ngombwa kwegera abaganga bakadusobanurira uko twakomeza kwita ku magara yacu, cyane cyane twitabira gukoresha imiti baduha kandi iba yizewe.

Ni byiza kugana ibigo nderabuzima ndetse n'amavuriro adufasha gukomeza kwita ku magara yacu, cyane cyane mu gihe ttuzi y'uko dufite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima kandi tugafata iya mbere .

Imyitozo ngororamubiri idufasha kurinda indwara zitandukanye zishobora kutwugariza, ndetse tugakora n'uko dushoboye kugira ngo turwanye indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri irimo kunanura imitsi no kunanura bimwe mu bice by'umubiri, bifasha umubiri gukora neza ndetse ukabasha no guhangana n'indwara zitandukanye bishingiye ku bibazo, kuko iyo uyikoze bituma amagufwa akomera.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu, kuko gukora imyitozo ngororamubiri bituma amagufwa akomera ndetse tukagira ubuzima bwiza cyane cyane mu gihe tuzi ko tugira ibibazo bitandukanye bituruka ku gukora.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu; dukwiriye rero kujya dufata iya mbere mu gukora imyitozo ngororamubiri igihe icyo aricyo cyose ndetse n'iyo dufite ibibazo bigiye bitandukanye by'umubiri ni ngombwa kuyikora.

Ni byiza gukoresha imiti itandukanye idufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza cyane cyane iyo dukora imyitozo ngororamubiri, kuko iyo miti ituma tugira ubuzima bwiza ndetse ikabasha no guhangana, n'ibibazo tuba twagize nyuma y'imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri bikwiye kuba ihame mu mibereho yacu ya buri munsi kuko iyi myitozo ngoramubiri idufasha kumenya uko twahangana n'indwara zitandukanye ndetse tugakomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Ni ngombwa gukoresha imiti nkiy'igiyi ya neosporin kuko ifasha umubiri gukomeza gukora neza mu gihe cyose twakoze imyitozo ngorora mubiri tukaba twahagirira ibibazo bitandukanye.

Bimwe mu bimera bikora nk'imiti gakondo bifasha mu kuvura indwara zitandukanye indwara zerekeye ubuzima bwacu kuko ibyo bimera bikoreshwa mu kuzivura, kuko rimwe na rimwe yifashishwa nk'aho hari imiti ikora neza nk'imiti itangwa n'ibitaro ndetse ikabasha no guhangana n'indwara.

Imiti gakondo nk'iyingiyi ifasha umurwayi kuba yakwirinda indwara zitandukanye kuko iyo uyikoresheje neza uko bisabwa bifasha umuntu gukira izo ndwara gukoresha rero iyi miti gakondo ni ngombwa cyane mu buzima bwacu.

Mu gihe tuzi ahantu hatandukanye hari ibimera dukora nk'imiti gakondo ni ngombwa kubibungabunga twirinda kubyangiza cyane cyane y'uko iyo miti gakondo ifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo igaragara ahantu hatandukanye, ni ngombwa kuyifata neza ndetse tukayirinda kuko iyo ihari bituma umuntu ayifashisha mu kwivura indwara zitandukanye zishobora gukizwa n'iyo miti gakondo.

Gukoresha imiti gakondo ni byiza kuko imiti gakondo ifasha mu kurwanya indwara zitandukanye, harimo indwara zishingiye ku bibazo bitandukanye, kuko iyo miti ya gakondo ivura neza nk'imiti itangwa n'amavuriro atandukanye.

Imiti gakondo ni ingenzi ku buzima bwacu kuko kumenya imiti gakondo ishobora kuvura indwara zacu, zadufasha kwita ku magara yacu ndetse tukabasha kumenya uko duhagaze n'uko twahangana n'indwara zishobora kugariza umubiri wacu n'ubuzima bwacu muri rusange.